Umugabo wambaye imyenda y'amabara y'umukara ndetse n'umweru, harimo n'abandi bagabo benshi cyane bakikije ameza ubona ko bari mu nama.

Abana bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'ubururu, bicaye mu ishuri ubona ko riberamo ibikorwa bigiye bitandukanye, haba iby'ubuvuzi n'ubucuruzi.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bicaye mu nzu bafite ibitabo mu ntoki. Hari umugabo uri kubaganiriza wambaye ingofero.

Abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, bambaye imyenda irimo ubururu, umweru n'umukara, aba bantu bigaragara ko bishimye kandi banezerewe, iruhande rwabo hari uruhinja ruhari bashyize mu kantu ka meze nk'igitanda.

Umwana uri kumwe n'undi musore wambaye isengeri y'umukara n'ikabutura y'umuhondo, bose barashaka koga kugira ngo bajye gutembera, inyuma yabo hari inyubako yubakishije amatafari akozwe mu bitaka.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagabo, abagore ndetse n'abana. Bari kwiga ku bibazo bigiye bitandukanye biri mu muryango.

Umwana w'umukobwa wambaye umupira w'umutuku, uri gukaraba ku iriba. Uyu mwana, biragaragara ko akeneye amazi yo kunywa, kuko afite inyota.

Umusore uri kumwe n'umwana w'imyaka itatu, ari kumuterura ndetse amushyira ku mu nzani, arimo aramupimisha ibiro kugira ngo amenye uko ahagaze.

Ababyeyi bahuriye ahantu, bari kuganirizwa n'umugabo wambaye ikoti ry'umukara, aba bantu bateraniye hano bambaye impuzankano y'ubururu.

Abantu baturutse mubi bice bike bitandukanye bahagaze imbere yinyubako nini bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ubururu ndetse n'umutuku.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ku' iriba baje kuvoma amazi, amazi ni meza kandi n'ingirakamaro atuma umuntu agira ubuzima bwiza kandi akabaho neza.

Abantu baturutse hirya no hino, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, umukara n'ubururu, iruhande rwabo hari ibiti byinshi by'amoko atandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ku iriba, baje gushaka amazi. Biragaragara ko ari abana bafite imyaka hagati y'icumi na cumi n'itanu kandi barishimye.

Abakecuru bari kumwe n'umuganga, aba bantu baje kwivuza ndetse bakeneye ubufasha bwihuse, biragaragara ko bafite ikibazo cy'uburwayi bubarembeje.

Abantu bahagaze barimo kwifotoza, bambaye imyenda y'umweru, ubururu n'umutuku, aba bantu bari gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo bajye bayireba.

Abantu baturutse mu bice bitandukanye, bahuriye munsi y'igiti. Barimo kwiga ku bibazo bigiye bitandukanye, abantu bagenda bahura nabyo, mu buzima bwa buri munsi.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye yiganjemo amabara y'umweru, ubururu ndetse n'umutuku ni ahantutu ubona ko hakorerwa imyitozo ngororamubiri.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye baje gufasha abana kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Nibana bambaye imyenda y'umuhondo ndetse n'umukara bigaragara ko bishimye kandi banezerewe bityo bagahabwa ubufasha bwiza.

Icyumba gikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, cyane cyane iby'imyitozo ngororamubiri. Ni inyubako ubona ko ikeye, kandi yiganjemo amabara y'umweru n'umukara.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi. Ni ahantu hahuriye abantu benshi.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse hirya no hino, bambaye imyenda irimo umweru n'umutuku, birasa nkaho bahurijwe hamwe n'insanganyamatsiko zigiye zitandukanye ndetse barimo bariga ku bibazo biri muri sosiyete.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abasore bambaye imyenda y'imikara ndetse n'abambaye imyeru, barimo gukora ibikorwa bitandukanye by'iterambere.

Ibicuruzwa bitandukanye biteretse hejuru y'ameza, ndetse harimo ibintu bitandukanye bikoreshwa mu buzima bwa buri munsi, hahagaze abantu babiri bari kubiterura.

Abana babiri bahuriye ku iriba baje kuvoma amazi, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru umutuku ndetse biragaragara ko bishimye.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda irimo amabara y'umuhondo, umweru ndetse n'ubururu. Bahurijwe hamwe n'ibikorwa bigiye bitandukanye.

Icyumba cyahuriyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye amakoti y'imikara n'amashati y'imyeru, biganjemo abagore, abagabo ndetse n'abasore.

Umugore uvuye kuvoma amazi yikoreye ijerekani y'umuhondo, ari kumwe n'abana bari imbere ye, na bo bari mu mirimo.

Abantu bahuriye mu nyubako nziza cyane, bambaye imyenda irimo amabara y'umukara umweru n'ubururu, imbere yabo hateretse amazi yo kunywa.

Ikigo kirimo utuzu tubiri dukoreshwa hakorwamo imirimo igiye itandukanye, harimo irimo utubara tw'ubururu ndetse zubakishije amatafari ahiye.

Umugabo waje kuvoma amazi ku iriba arimo guseka, yambaye imyenda y'umukara n'umweru. Hirya ye hari indabo nyinshi, ndetse n'inyubako zubatse mu buryo bugezweho, kandi bwa kijyambere.

Inyubako yahuriwemo n'abantu baturutse mu bice bitandukanye hirya no hino, bambaye imyenda y'umukara, umutuku, umweru, n'ubururu. Bahurijwe hamwe ninsanganyamatsiko zitandukanye ndetse no kugira uruhare mu bijyanye nubuzima bw'abantu bwa buri munsi.

Abagore babiri barimo uwambaye igitenge kirimo utubara tw'umuhondo n'umutuku ateze n'igitambaro mu mutwe bose n'abayobozi.

Umwana uri gukaraba amazi ndetse n'isabune, kugira ngo agire ubuzima bwiza, yambaye imyenda irimo amabara y'ubururu ndetse n'umukara.

Icyumba kirimo abantu bambaye imyenda yiganjemo ubururu n'umuhondo gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ni ahantu ubona ko ari hanini kandi hisanzuye.

Umugore uri gukaraba kuri kandagira ukarabe, arishimye cyane kandi aranezerewe, yambaye ingofero ndetse n'imyenda y'amabara arimo umukara ndetse n'umuhondo.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara na karuvati y'umuhondo, ahagaze imbere y'abantu, abagezaho imbwirwaruhame, uyu mugabo yambaye indorerwamo z'amaso.

Inyubako yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru umukara umutuku n'ubururu, harimo abagabo ndetse n'abagore.

Abana biga mu mashuri abanza bambaye imyenda irimo amabara y'umuhondo n'ubururu, aba bana barimo gukaraba ku iriba bakoresheje amazi ndetse n'isabune, kugira ngo bakire inzoka zitandukanye.

Umubyeyi uteruye umwana wambaye agapfukamunwa, yambaye n'ishati irimo amabara y'umuhondo ndetse bigaragara ko yishimye.

Inyubako yateraniyemo abayobozi bambaye imyenda y'ubururu umukara ndetse n'umweru, imbere yabo hari ameza manini yiganjeyemo ibara ry'umuhondo.

Umuntu uri guterwa urushinge ku rutugu, wicaye ku ntebe. Umuganga urimo kumutera urushinge, yambaye uturindantoki twifashishwa n'abaganga.

Umwana uri ku iriba yambaye agapira karimo amabara y'umutuku n'ubururu, uyu mwana kandi imbere ye hateretse amajerekani ari kujyamo amazi, iyo ukoresheje amazi neza bituma udasesagura amafaranga.

Abantu bari ku ifoto barimo guseka, ni abayobozi bari kwamamazwa kugira ngo batorwe maze bayobore abaturage, aba bantu kandi baratojwe.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ku iriba baje kuvoma amazi bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu ndetse bafite n'ibikoresho bitandukanye bifashisha baje kuvoma.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye; bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umweru ndetse n'ubururu; imbere y'abantu hicaye abayobozi bari kubagezaho insanganyamatsiko zitandukanye.

Abantu bahagaze bambaye imipira y'ubururu n'ingofero z'imweru barishimye cyane, ikigaragara bari kwiga kwitanga ndetse no gufashanya mu buzima bwa bo bwa buri munsi.

Umuganga uri kumwe n'umubyeyi, ari kumwereka ifoto iriho abana babiri ari kumwigisha uburyo ki yaboneza urubyaro kugira ngo abyare abo ashoboye kurera.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'ubururu n'umweru, biragaragara ko hari inyubako nyinshi bimeze kimwe kandi izi nyubako zikorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Imihanda igezweho yifashishwa n'abantu bari kujya mu ngendo zitandukanye hirya no hino, iyo imodoka inyuze mu muhanda mwiza, bituma ibasha kumera neza kandi ntisaze.

Abantu bari mu nyubako nini bambaye imyenda yiganjemo amakositimu, harimo n'abagore bambaye imyenda y'umweru ndetse bafite ibikoresho bitandukanye, harimo amatelefone ndetse n'ibitabo.

Agatanda kifashishwa mu kurambikaho amasahani, aka gatanda gakoreshwa mu gihe bakeneye ko amasahani yumuka maze agasa neza bityo bakayakoresha.

Abantu bahagaze imbere y'inyubako nini, ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, kuri iyo nzu handitseho amagambo avuga ngo gira ubuzima.

Abantu baturutse hirya no hino baje kwa muganga kwivuza, bambaye imyenda irimo amabara y'umutuku n'umukara, kwa muganga hariyo abantu benshi bahateraniye ubona ko baje kwaka serivisi.

Abantu baturutse hirya no hino bari mu nyubako yubakishije amahema ndetse n'intebe nziza cyane, barimo umupolisi ndetse n'abandi bagabo benshi.

Icyumba cyateraniyemo abayobozi bambaye amakoti meza y'imikara bari mucyumba kirimo kuberamo inama, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umuhondo ndetse n'uducupa tw'amazi.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda irimo amabara y'umweru n'ubururu. Ni urubyiruko rwahuriye hamwe kugirango bizihize umunsi mukuru mpuzamahanga wo kurwanya kanseri.

Umwana uri kuvoma amazi ku iriba akoresheje indobo y'umuhondo, iruhande rwe hahagaze umugabo wambaye inkweto z'umweru ndetse n'umupira w'ubururu.

Abana b'abahungu bari ku iriba baje kuvoma amazi. Bambaye imyenda myiza cyane kandi urabona ko bishimye, bananezerewe, bityo bikabafasha kubaho neza.

Abantu bicaye ku meza barimo kurya, bambaye imyenda y'imyeru ndetse n'umukara. Imbere yabo hateretse ibyo kurya byiza kandi bikoranye isuku bibafasha kugira ubuzima bwiza.

Abana bahuriye ku iriba, bambaye imyenda yiganjemo, umuhondo, umukara, ubururu ndetse n'icyatsi, aba bana bazanye utubido dutoya.

Urujya n'uruza rw'abana bahuriye ahantu hari amazi y'ikidendezi, aya mazi asa nabi ku buryo uyanyoye warwara indwara zigiye zitandukanye.

Abantu baturutse mu bice bigiye bitandukanye bahuriye mu nyubako nini cyane, iyo nyubako ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse harimo n'iby'ubuvuzi.

Icyumba kirimo ababyeyi bagiye batandukanye bateruye abana, aba babyeyi kandi bari ahantu mu nyubako, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi.

Umugore uri kuvoma amazi ufite ijerekani y'umuhondo, yambaye imyenda yiganjemo amabara y'icyatsi ndetse n'ayandi mabara agiye atandukanye.

Umwana uri guterwa urushinge, yambaye umupira w'umweru kandi ari kureba umuganga uri kumutera urushinge, biragaragara ko uyu mwana yishimye kandi anezerewe.

Umusore uri kwita ku mwana ufite ikibazo bombi bambaye imyenda isa y'umuhondo, umusore yambaye indorerwamo z'amaso, afite na telefone mu ntoki ari gukoresha.

Umwana uri kuvoma amazi ku iriba akoresheje ibiganza. Yambaye ikanzu y'ubururu n'umupira w'umweru. Uyu mwana biragaragara ko yishimye.

Abana barimo guseka bambaye imyenda yiganjemo umweru, umukara ndetse n'umutuku, barimo barakaraba amazi n'isabune kugirango birinde indwara zituruka ku mwanda.

Abantu baturutse mu bice bitandukanyeje kuvoma amazi ku iriba, harimo uri kunywa amazi akoresheje intoki kubera ko yabuze igikombe.

Abanyeshuri baje kuvoma amazi ku iriba, aba banyeshuri bambaye imyenda irimo amabara y'ubururu, ndetse n'amabara y'umweru, amazi ni ingirakamaro mu buzima bwa buri munsi bw'umuntu.

Agatanda k'amasahani kifashishwa mu kurambikwaho ibikoresho, kubakishije agatanda gakoze mu biti, ni ukugira ngo amasahane bayarambikeho maze yumuke.

Abana barimo kuvoma amazi mu kizenga kinini, aya mazi uramutse uyanyoye warwaye indwara zigiye zitandukanye kubera ko aba arimo inzoka nyinshi cyane.

Umukobwa wikoreye ijerekani irimo amazi, iruhande rwe hahagaze umugabo urimo guseka cyane, barishimye kandi bose baranezerewe.

Icyumba cyateraniyemo abantu benshi, bambaye imyenda yiganjemo umukara, umutuku, n'umweru, bigaragara ko bishimye kandi baranezerewe.

Abantu bahuriye ku iriba baje kuvoma amazi yo gukoresha mu buzima busanzwe, ku iriba hateretseho ijerekani y'umuhondo, hari n'akavido gatoya n'ako kari mu ibara ry'umuhondo.

Abantu baturutse hirya no hino, bambaye imyenda yiganjemo umweru, umuhondo ndetse n'umutuku. Aba bantu barishimye kandi baranezerewe.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abagore n'abana bahuriye ku ivuriro baje guhabwa serivisi nziza y'ubuvuzi.

Inyubako yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo icyatsi, ubururu, umutuku n'umukara harimo n'abambaye imihondo.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ahantu hamwe, ubona ko barahagaze. Aba bantu bambaye imyenda irimo amabara y'umuhondo, icyatsi, umweru ndetse n'ubururu.

Amazi ari mu kizenga kinini aho harimo umugore ufite ijerekani arikovo, kunywa amazi mabi si byiza kuko bitera uburwayi.

Umuntu uri kuvoma amazi atemba mu mugenda; amazi mabi atuma umuntu agira indwara zigiye zitandukanye; ariko iyo umuntu akoresheje amazi meza bituma agira ubuzima bwiza.

Inyubako irimo umugabo wambaye amakoti y'umukara, iruhande rwe hateretse intebe nziza ziri mu mabara y'umuhondo. Ari gutanga imbwirwaruhame ahagaze imbere y'abantu.

Umugore uri kumwe n'umwana bahagaze mu murima w'imboga. Izo mboga ni imboga rwatsi zifasha abantu kugira ubuzima bwiza. Kuko ziganjemo intungamubiri.

Abantu baje ku iriba kuvoma amazi bambaye imyenda irimo amabara y'umutuku ndetse n'ubururu, ikigaragara aya mazi bayakoresha mu bikorwa byabo bya buri munsi mu gusukura inzu zabo.

Umugore uri ku iriba arimo koza umufuniko w'indobo. Ahetse umwana ndetse akenyeye igitenge. Ari ahantu hari ivomero rusange.

Abana bambaye imyenda irimo amabara y'umuhondo, bari ahantu hatangirwa serivisi zijyanye n'ibiribwa. Abana ikigaragara bari guhabwa ubufasha kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, cyane cyane ibikorwa by'ubuvuzi, harimo ibikoresho by'amoko agiye atandukanye, byiganjemo ibara ry'icyatsi n'ubururu.

Icyumba cyateraniyemo abaganga n'abarwayi bambaye imyenda yiganjemo icyatsi, umukara, ndetse n'ubururu. Bahurijwe hamwe n'ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, icyatsi, umweru ndetse, n'ubururu biragaragara ko aba bantu baje kuvoma amazi.

Umwana uri ku iriba yaje kuvoma amazi. Uyu mwana yambaye imyenda y'umukara n'umuhondo, bigaragara ko avuye mu myitozo ngororamubiri agahita ajya kuvoma amazi. Uyu mwana ni umusirimu.

Umwana wambaye umupira w'ubururu n'ishati y'umweru, ari ku iriba arimo kuvoma amazi, arimo arakaraba akoresheje isabune ndetse n'umuti wifashishwa mu gukaraba.

Abana benshi bari ku iriba, bambaye imyenda irimo amabara agiye atandukanye, umutuku, umukara ndetse n'icyatsi, aba bana kandi urabona ko ari benshi cyane rwose.

Aha hari umuganga uri kumwe n'umurwayi w'umwana, arimo kumuha imiti kandi akamuvura kugira ngo akire vuba, uwo mwana ari kumwe n'umubyeyi we wamuzanye kwa muganga.

Icyumba kirimo abantu baturutse hirya no hino, bambaye imyenda myiza cyane. Iyo myenda, irimo amabara y'umweru, umukara ndetse n'ubururu.

Umuganga uri mu cyumba wambaye imyenda irimo amabara y'ubururu ndetse n'umuhondo, ari ahantu hari ibikoresho byifashishwa n'abaganga, kugira ngo bafashe abarwayi.

Abana bahuriye ku iriba baje kuvoma amazi, bambaye imyenda irimo amabara y'umweru, icyatsi, n'ubururu, bigaragara ko bari mu kigero cy'imyaka kimwe.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye hirya no hino bambaye imyenda irimo amabara y'icyatsi, umweru, n'umukara bigaragara ko bahuriye hamwe kugira ngo bige ku nsanganyamatsiko zitandukanye.

Abantu bahuriye ku iriba bari kuvoma. Bakenyeye ibitenge, ndetse bambaye imyenda myiza. Aya mazi kugira ngo uyavome neza, urapompa maze akazamuka mu butaka.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abagore n'abakobwa bambaye imyenda irimo amabara yumutuku, icyatsi ndetse n'umukara.

Abana babiri bari ku iriba, bateze amaboko, bavoma amazi. Harimo uwambaye umupira w'umutuku n'uwambaye umupira w'icyatsi, bigaragara ko yishimye.

Abagabo babiri bambaye amakoti meza n'amashati y'ubururu bari imbere basuhuzanya, bagiye gutanga ibiganiro bitandukanye babigeza ku baturage.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'Igihugu baje kuvoma amazi. Bafite amajerekani y'umuhondo ndetse n'ayandi matoya.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ku iriba baje gushaka amazi yo gukoresha. Ni umugore uri kumwe n'abana bafite utubido n'amajerekani.

Abana bari ku iriba bari kuvoma amazi bakoresheje intoki, bambaye imyenda irimo amabara y'umutuku ndetse n'icyatsi. Aba bana barishimye cyane kandi baranezerewe neza cyane.

Umwana w'umuhungu ufite imyaka hagati y'itanu na cumi n'itanu, arimo arakaraba ku iriba, ndetse iruhande rwe hateretse amajerekani ari mu ibara ry'ubururu n'umuhondo.

Ababyeyi batatu bafite inkoni mu ntoki, bambaye imipira y'umutuku ndetse n'ibitenge birimo amabara y'umweru ndetse n'ubururu, uwo hagati ateruye umwana.

Umugabo ufite ibihanga yasetse, yiteye igitambaro cy'umuhondo. Arimo araseka bigaragara ko yishimye kandi anezerewe bitewe n'ubuzima anyuramo bwa buri munsi.

Abantu bahuriye mu nyubako bambaye amakoti meza ndetse n'imipira, imbere yabo hari umugore uri kubagezaho ijambo ababwira ibyabateranyirije hariya uwo munsi, ni abantu benshi cyane ubona ko bishimye.

Umugore urimo guseka, yambaye ikoti ry'umukara ryiza, mo imbere harimo umupira w'umutuku, ari mu cyumba kinini kiberamo ibikorwa bigiye bitandukanye.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bigiye bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ubururu n'umukara, harimo urubyiruko ndetse n'abantu bakuru.

Inyubako yahuriyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Umugabo w'umuzungu wambaye imyenda myiza cyane, iyi myenda yambaye irimo amabara arimo umukara, umweru ndetse n'inkweto nziza.

Ihuriro ry'abantu baturutse hirya no hino, biganjemo abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyenda y'umukara ndetse n'umutuku. barishimye kandi baranezerewe.

Umusore wicaye ahantu ku rukuta rw'inzu, bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, yambaye imyenda irimo amabara y'umutuku ndetse n'ibara ry'ivu.

Abantu baturutse hirya no hino bahuriye mu nyubako bambaye amakoti y'umukara, amashati y'umweru ndetse n'ay'ubururu, urabona ko bahuriye ahantu mu nyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye.

Icyumba cyahuriyemo umuganga ndetse n'umurwayi, bari kwitabwaho kugirango bakire vuba, bambaye imyenda iri mu mabara y'umukara ndetse n'ubururu.

Umugabo wambaye imyenda myiza cyane, harimo abantu benshi bahahuriye, bishimye kandi banezerewe. Harimo ndetse n'umugore wambaye ikanzu y'icyatsi.

icyumba cyahuriyemo ababyeyi bambaye imyenda yiganjemo umweru, umutuku ndetse n'umukara, barishimye ndetse baranezerewe bafite akanyamuneza ku maso.

Umugabo wicaye hasi yambaye amapingu bigaragara ko afite ibyaha bigiye bitandukanye, yicaye hagati y'abaturage baje kureba icyabaye.

Abantu barimo kwifotoza bambaye amakoti meza ndetse n'amashati meza, ni abayobozi bari gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo bajye bayishimira.

Abagore babiri harimo umwe uteruye umwana, aba bagore uko ari babiri harimo uwambaye umupira w'umweru n'undi wambaye umupira w'umuhondo, barimo barareba muri telefone.

Umusore wifashe mu gahanga yambaye umupira urimo amabara y'ubururu ndetse n'umweru, ari ahantu mu cyumba urabona ko yigunze kandi yifashe mu gahanga, uyu musore afite ikibazo.

Abana bambaye imyenda y'umweru, umuhondo n'umutuku. Barishimye ndetse barimo baraseka, imbere yabo hari umuntu uri kubaha ikiganiro anabasetsa.

Abantu baturutse mu bice bitandukanye, barimo kwamamaza umukandida, uba perezida. Iyo umuntu yitwaye neza, bituma ajya ku mwanya mwiza.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abasore, inkumi n'abantu bakuru, bigaragara ko bahuriye mu nyubako nini, mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu ibice bitandukanye by'igihugu bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara ,ubururu ndetse n'icyatsi, bigaragara ko bishimye kandi banezerewe.

Umukecuru wambaye ibitenge birimo amabara y'umuhondo n'umukara, utetse ku mashyiga. Ni umukecuru ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Abantu benshi bateranye, harimo umugabo wambaye umupira utukura ndetse n'abandi bantu bambaye imyenda irimo umutuku, ubururu n'umweru, harimo n'umubyeyi mukuru w'umukecuru.

Inyubako nini, iteye amarangi y'umuhondo. Iyi nyubako irimo amabara menshi y'ubururu. Hakorerwa ibikorwa bigiye bitandukanye, cyane cyane iby'ubucuruzi.

Umuntu wambaye imyenda yacikaguritse, ufite ibyanwa byinshi ndetse n'umusatsi mwinshi, biragaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe kandi akeneye umwitaho.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara ndetse n'umweru. Bicaye ku ntebe nziza kandi zifite isuku.

Umuganga wambaye imyenda yifashishwa n'abaganga kugira ngo base neza, ari mu ifoto igaragara ubona ko ari umugabo w'imibiri yombi.

Icyumba cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, harimo umugore ufite indangururamajwi, ari kugeza ku bamukurikiye imbwirwaruhame yabateguriye.

Abana baturutse hirya no hino bambaye imyenda irimo amabara y'umukara umweru n'ubururu aba bana biragaragara ko bambaye imyenda itameshe kandi ikeneye kumeswa.

Icyumba cyahuriyemo abantu baturutse mubi bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara umweru ndetse n'ubururu, ni icyumba kinini kiberamo inama.

Umugore uhetse umwana, atetse, iruhande rwe hahagaze undi mwana muto wambaye imyenda yiganjemo amabara y'icyatsi n'ikabutura y'umutuku.

Umugabo wambaye imyenda yacitse, ufite amacupa mu ntoki ndetse n'amashashi. Biragaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe kandi akeneye ubuvuzi.

Inyubako iberamo ibikorwa bitandukanye, yiganjemo amabara y'umweru n'umukara, ni ahantu hahurira abantu benshi bambaye imyenda itandukanye, baje kwaka serivisi zitandukanye harimo iz'ubuvuzi.

Umusore ufite amenyo y'umweru yambaye indorerwamo z'amaso, uyu musore afite ubwanwa bwinshi kandi bw'umukara bukeye.

Umusore wambaye umupira w'umukara, uyu musore akaba ari umusore mwiza, uyu musore akora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo urimo guseka afite ubwanwa bwinshi cyane, uyu mugabo kandi afite akadodo mu ntoki kifashishwa mu gusukura amenyo.

Umusore wambaye umupira w'umweru, afite akadodo mu ntoki bifashisha basukura amenyo, kugira ngo bizere ko akeye kandi afite isuku.

Umukobwa ufite uburoso bwifashishwa mu gusukura amenyo, yambaye imyenda y'umweru, arimo araseka kandi arishima bityo bigatuma agira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umusore uri gukoresha akadodo asukura amenyo ye, arimo arireba mu kirahure, uyu musore arimo guseka, kandi biragaragara ko yishimye, ni umusore mwiza watojwe.

Ni ibikoresho kwa muganga bifashisha kugira ngo bavure abarwayi neza, ibyo bikoresho birahenda kandi bigura amafaranga menshi nkuko bigaragara kandi birimo amabara menshi.

Umusore ufite amenyo y'umweru, yashyizemo akadodo kamufasha kuyasukura neza, uyu musore biragaragara ko azi isuku y'amenyo.

Ababyeyi babiri bari kumwe, umwe yambaye indorerwamo z'amaso, undi afite urupapuro mu ntoki, aba bose bafite imisatsi myinshi kandi igezweho.

Umuganga urimo kwita ku murwayi amuha ubufasha bujyanye n'ubuvuzi bw'amenyo, kugira ngo abashe gukira vuba. Ni umu mama wambaye agapfukamunwa ndetse n'imyenda y'ubururu.

Umugabo ufite ubwanwa bwinshi ndetse ari gukoresha akadodo asukura amenyo ye neza kugira ngo abe acyeye, ni umugabo w'inzobe kandi asa neza.

Inyubako nini irimo ibikoresho byo kwa muganga, harimo ibitanda ameza ndetse n'ibindi bitandukanye, ni inyubako ubona ko ikorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Umusore ufite imyaka hagati ya makumyabiri n'itanu na mirongo itatu, yambaye ikoti ryiza ry'ubururu. Afite ubwanwa bwinshi ndetse n'imisatsi, arimo aramwenyura yishimye.

Umusore n'umukobwa bari gukoresha akadodo basukura amenyo, barishimye kandi baranezerewe, iyo umuntu akoresheje akadodo bituma amenyo ye amaramo imyanda ye yose.

Iyo ukoreye amenyo isuku bituma adahura n'indwara zitandukanye, hano rero hari abana bari gukorera isuku amenyo yabo kugira ngo babashe kuyarinda indwara zifata amenyo.

Icyumba cyateraniyemo abayobozi baturutse mu kigo cy'amashuri, bari kwigisha ibikoresho bitandukanye, bambaye imyenda irimo amabara y'icyatsi n'umweru.

Umusore ufite ubwanwa bwinshi arimo araseka, uyu musore afite amenyo meza y'umweru, bigaragara ko ayakorera isuku, gukorera isuku amenyo ni byiza, kandi bifasha umuntu kugira ubuzima bwiza.

Umwana uri guhabwa ubuvuzi bw'amenyo, afite imisatsi myinshi y'umukara kandi yambaye imyenda myiza.

Icyumba kirimo umunyeshuri ufite agakoresho kifashishwa bigisha ishusho y'amenyo. Harimo n'abandi bantu batandukanye.

Abantu babiri bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, bari gukoresha akadodo gasukura amenyo, bigaragara ko bishimye, bafite imisatsi myinshi.

Umusore ufite ubwanwa bwinshi ndetse yamwenyuye ari guseka, bigaragara ko ari kwa muganga akeneye ubufasha kandi n'umuntu umwitaho.

Ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, byiganjemo intebe ndetse n'ibindi, biri mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abantu baturutse iruhande rw'ibitaro baza kwivuriza.

Umuganga uri mu cyumba kinini kirimo ibikoresho byifashishwa mu kuvura abarwayi; ni ibikoresho ubona ko bikoranye ikoranabuhanga; kuko utarabyize ntiwamenya kubikoresha.

Umwana w'umukobwa ufite imisatsi myinshi ndetse ufite uburoso mu kanwa ari kwiborosa ntabwo biba bihagije kwiborosa udakoresheje akadodo kuko hari imyanda isiga hagati y'amenyo.

Umukobwa washinyirije uri gukoresha akadodo asukura amenyo kubera ko gukoresha uburoso na korogate ntabwo biba bihagije, umuntu akoresha n'akadodo kugira ngo akuremo imyanda yasigayemo.

Umugabo uri gukoresha akadodo, kifashishwa mu gusukura amenyo, afite agaswime ku rutugu ndetse afite n'ubwanwa bwinshi, bigaragara ko ari gusukura amenyo kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umwana uri gusukurwa amenyo, yambaye imyenda myiza cyane. Uyu mwana rero ni umwana w'umuhungu, ubona ko afite ikibazo cy'amenyo. Iyo umuntu adakoreye amenyo isuku, bituma agira ubuzima butameze neza.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye barimo barifotoza, aba bantu bari mu cyumba kinini cyabereyemo ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse ni naho bari kwifotoreza.

Umusore ufite ubwanwa bwinshi ari kuvurwa n'umuganga, uyu musore afite amenyo meza y'umweru ndetse ari kumwe n'umwitaho w'umuganga.

Umwana urimo kuvurwa indwara y'amenyo, afite ibikoresho umuganga uri kumufasha ndetse biragaragara ko yari arembye.

Umuganga uri kwita ku mwana amuvura indwara y'amenyo, uyu mwana biragaragara ko afite ikibazo akeneye guhabwa ubufasha, hari abantu bamuhagaze imbere barimo kumuvura.

Abana bari gukoresha uburoso na corogate basukura amenyo yabo. Aba bana kandi bambaye imyenda irimo amabara y'ubururu ndetse n'umukara batojwe hakiri kare gukorera amenyo yabo isuku.

Umwana uri guhabwa ubufasha kujyanye n'ubuvuzi bw'amenyo, ni umwana w'umukobwa w'inzobe ubona ko yishimye kandi yishimiye ubufasha ari guhabwa.

Igishushanyo kigaragaza amenyo agize umubiri w'umuntu, iyo umuntu afite amenyo yuzuye aseka yishimye ariko iyo afite ibihanga aseka afite ipfunwe.

Umugabo ufite akadodo gakoreshwa mu gusukura amenyo, yasetse ndetse aramwenyuye yishimye, bigaragara ko azi akamaro k'isuku y'amenyo.

Umuganga urimo kwita ku murwayi, amuvura indwara zitandukanye, bambaye imyenda myiza cyane irimo amabara y'ubururu, ndetse n'iyindi ijya gusa nk'ivu.

Abantu bavuye mu myitozo ngororamubiri bambaye imyenda y'ubururu, umukara n'umweru, aba bantu iruhande rwabo hateye indabo nyinshi zisa icyatsi.

Umuganga uri kumwe n'umukecuru, arimo aramurambura amaboko kugira ngo amenye niba yakize neza koko, uyu mukecuru yasetse kandi afite umusatsi urimo imvi.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi irimo umusaza ufite ubwanwa bwinshi arimo arafashwa n'umuganga kugira ngo ngo amumenyereze kugenda.

Umurwayi uri kwitabwaho na muganga kugirango amuhe ubufasha bw'ibanze. Bambaye imyenda irimo amabara y'umuhondo ndetse n'umutuku bigaragara ko uyu murwayi arembye.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda y'umukara n'umutuku. Ni umukobwa ubona ko yamenyereye gukora iyi myitozo kuva kera.

Umuganga uri kumwe n'umukecuru arimo kumuvura, uyu muganga kandi ni umuganga wabizobereye kandi uzi icyo aba ari gukora.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda irimo amabara y'umutuku, umuhondo, icyatsi ndetse n'umukara. Harimo urubyiruko ndetse n'abantu bakuru.

Umugabo wambaye umupira w'umweru n'ubururu urimo guseka, arishimye kandi aranezerewe, yicaye imbere y'ameza manini ubona ko akorerwaho ibikorwa bitandukanye.

Ababyeyi barimo gusarura icyayi bambaye imyenda yiganjemo ubururu, umutuku, umukara ndetse n'ayandi mabara barimo barasarura icyayi gikoreshwa mu buzima busanzwe.

Umuganga uri kumwe n'umurwayi. Bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu ndetse n'umweru. Iki cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zigiye zitandukanye.

Umusaza urimo gusoma igitabo yambaye ishati y'umuhondo n'indorerwamo z'amaso, uyu musaza kandi afite ubwanwa ndetse n'imvi.

Abantu bicaye ahantu hamwe barimo baraganira bahuje urugwiro, bambaye imyenda myiza cyane y'amabara y'umutuku, umweru, umukara ndetse n'ubururu.

Umusaza n'umukecuru bari ku meza barimo bararya, urabona ko bashaje neza kuko baganira kandi urukundo rwabo rwahereye kera, biragaragara ko aba bantu buzuzanya kandi bumvikana.

Umugabo uri kumwe n'umukobwa ubona ko bishimye, aba bantu uko ari babiri bambaye imyenda irimo amabara y'umuhondo n'ubururu, bahagaze imbere y'inzu nini.

Umusaza wicaye ku gitanda wambaye imyenda irimo amabara y'umweru ndetse n'ubururu, ari kumwe n'umuganga uri kugenda amufasha kugira ngo amumenyereze akire vuba.

Umukecuru wambaye umwenda urimo ibara ry'umuhondo, arimo arasuka ibinini mu gapfundikizo. Biragaragara ko agiye kubirya.

Umugore uri kunywa ibinini afite igikombe kirimo amazi uyu mugore kandi biragaragara ko afite ikibazo kandi cy'uburwayi akeneye kujya kwa muganga.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ikabutura y'umukara, arimo arasindagizwa kugira ngo barebe niba koko yakize, cyangwa se atari yakira, yambaye imyenda myiza cyane.

Umugabo uri kumwe n'umwana barimo gukina umupira, iyo umwana umutoje hakiri kare, bituma amenya ubwenge kandi agakura ajijutse.

Icyumba gitangirwamoho serivisi zitandukanye, kirimo umusaza n'umukecuru, bari kumeza bari kurya, bambaye indorerwamo z'amaso ndetse bambaye n'imyenda irimo amabara y'umutuku n'umweru.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo, icyatsi ndetse n'umweru. Bigaragara ko bishimye.

Abakecuru baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda irimo amabara y'umweru n'umutuku, bafite inkoni mu ntoki zituma babasha kugenda.

Umuganga uri kumwe n'umusaza ufite ubwanwa bwinshi burimo imvi, ari kumuha umuti kugira ngo yisuzume amenye ikibazo afite aho kiri.

Umukecuru n'umusaza bari mu cyumba bicaye imbere y'ameza, bambaye imyenda y'ubururu n'umutuku, bose bafite umusatsi w'imvi zabaye uruyenzi.

Umuganga urimo kwita ku murwayi; arimo kumugendesha, ngo arebe niba yakize koko. Arimo kumusuzuma, arebe ikibazo afite.

Umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara ari kwitabwaho na muganga, ari kumusuzuma ngo arebe koko niba yakize, kugira ngo abe yasubira mu rugo.

Umukecuru uri kumwenyura wambaye ishati y'umweru ari kurya imbuto, iyo umuntu ariye imbuto bituma agira ubuzima bwiza kandi ubuzima buzira umuze.

Ababyeyi bari mu cyumba kinini, ubona ko bishimye. Bambaye imyenda yiganjemo umweru n'umuhondo. Umubyeyi urimo mukuru, afite imisatsi myinshi cyane.

Umugabo uri kumwe n'umusaza, bari kugenda mu muhanda. Biragaragara ko umwe ashaje cyane, undi na we atari yasaza ku rwego rukabije.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, arimo kureba umuntu uri kumufotora, ari gukorera mu nyubako yagenewe gukorerwamo siporo, ni inyubako nziza kandi nini.

Umubyeyi uri kumwe n'umukobwa we, bambaye imyenda yiganjemo umuhondo ndetse n'ubururu, umukecuru yambaye indorerwamo z'amaso ndetse yiteze n'igitambaro mu mutwe.

Umusaza uri kumwe n'umuganga arimo kumuvura, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu n'umukara. Bafite akantu mu ntoki kari mu ibara ry'umuhondo bari gukurura.

Umuganga uri kumwe n'umurwayi arimo aramwitaho, umurwayi afite ubwanwa bwinshi burimo imvi, arimo araseka bigaragara ko yishimye.

Umusaza uri kumwe n'umukecuru, bambaye imyenda y'umutuku, bafite impeta ku ntoki zabo, bigaragara ko ari umugabo n'umugore.

Umusaza urimo gusoma igitabo, afite ubwanwa bwinshi kandi yambaye indorerwamo z'amaso, ni umusaza ubona ko ajijutse.

Umusaza uri kumwe n'umukecuru bari kuganira, bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'indi irimo amabara agiye atandukanye. Bari gukina imikino, ituma bagira ubuzima bwiza, batuje, bakaruhuka mu mutwe.

Icyumba kirimo umukecuru n'umusaza bambaye imyenda yiganjemo ubururu ndetse n'umweru ni icyumba ubona ko kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye.

Umubyeyi wambaye indorerwamo z'amaso ndetse ahagaze imbere y'imbaga y'abantu, ari kubagezaho imbwirwaruhame yabateguriye.

Abantu benshi bahuriye mu nyubako bambaye imyenda igiye itandukanye, imbere yabo hari abayobozi bari kubagezaho imbwirwaruhame y'ibyo babateguriye.

Mu cyumba kinini, cyahuriyemo abantu baturutse hirya no hino, harimo urubyiruko ndetse bambaye imyenda myiza cyane, iri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru.

Abantu bari kugaragara bifotoza, aba bantu kandi bakeneye ubufasha bugiye butandukanye, bambaye imyenda myiza y'imyeru n'umukara.

Abantu bashushanyije ku ifoto iri kugaragara harimo abakobwa babiri n'abasore batatu ubona ko ari abayobozi bari kwerekwa abayobozi kandi bafite indangagaciro.

Abaganga bambaye imyenda yifashishwa mu gihe habaye icyorezo, bikwije umubiri wose kugira ngo batanduzwa indwara.

Inyubako yahuriyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda y'imyeru. Imbere yabo hari umukobwa wambaye ikoti ry'umukara, uri kubagezaho imbwirwaruhame.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye amakoti y'imikara ndetse n'amashati y'imyeru, bari imbere y'inyubako ubona iberamo ibikorwa bigiye bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda y'imyeru ndetse n'ubururu. Barishimye kandi baranezerewe, bafite n'akamwenyu ku munwa.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'imikara n'umweru ni icyumba kinini cyabereyemo inama y'abayobozi baturutse hirya no hino mu gihugu.

Ahantu handitse amagambo mu ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku. Aya magambo asobanura ko abantu bagomba gukorera hamwe ndetse bakarwanya indwara ya SIDA.

Abayobozi bamba ye imyenda yiganjemo umuhondo, ubururu n'umweru, bari imbere y'abaturage kugiibikorwa babateguriye ndetse babahe gahunda ngenderwaho.

Inyubako nini iruhande rwayo hahagaze umukobwa muremure ufite imisatsi myinshi, iyo nyubako irimo amabara y'umuhondo, ubururu, icyatsi ndetse n'umukara.

Icyumba kirimo umusore ndetse n'umumama bahuriye mu nyubako ndetse n'abaturage, kugira ngo birinde indwara y'igituntu kuko ivurwa igakira.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye irimo abantu baturutse mu bice byo hirya no hino, bambaye imyenda yiganjemo umweru, umukara, ndetse n'ubururu.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, baje guhura n'abaganga ngo babafashe, bambaye imyenda yiganjemo umweru, umukara, icyatsi ndetse n'ubururu.

Abaganga bambaye imyenda, irimo amabara y'umweru n'udupfukamunwa tw'ubururu. bari mu nyubako nini, ubona ko hari icyorezo cyateye barimo baririnda, mu gihe bari kwita ku barwayi.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda y'imyeru n'amapantaro y'umukara bahurijwe hamwe n'insanganyamatsiko iti:" twirinde kanseri y'ibere tuyisuzumishe hakiri kare kuko ivurwa igakira."

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye cyane cyane iby'ubuvuzi, ni ahantu hari imiti y'amoko yose aho abantu bayigurira ndetse bagataha bishimye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, yiganjemo amabara y'umutuku ndetse n'umweru. Ni ahantu ubona hari gusohokamo abantu babiri bambaye imyenda y'imyeru n'umukara.

Inyubako nini irimo ibirahure byinshi, iruhande rwayo hari imikindo igiye iteye, muri metero ebyiri ebyiri.

Inyubako nini irimo ibikoresho byiganjemo intebe ndetse n'ameza, iyo nyubako irimo abantu batandukanye bishimye.

Umuganga urimo kureba kuri mudasobwa yitegereza cyane, arimo arareba ibikoresho yifashisha kugira ngo avure abarwayi indwara zitandukanye.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, yiganjemo amabara y'umuhondo umukara n'ubururu, ni inyubako icururizwamo imiti yifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo amabara y'umukara ndetse n'umweru, uwo muhanda uri imbere y'inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Inyubako y'ibitaro, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi. Abantu bahaga imbere yayo, barimo kuyitegereza, ndetse bambaye imyenda irimo umuhondo n'umweru.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda irimo amabara y'icyatsi, ubururu n'umuhondo. Bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo ubona ko uri hagati mu kigo.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi higanjemo amabara y'umuhondo, icyatsi, ndetse n'umweru, harimo umuntu wambaye itaburiya y'umweru.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga kugira ngo bavure abaturage babone aho babicaza ndetse n'aho bakorera ibyo bakeneye gukora byose.

Ibitaro bya Kabgayi, aho abantu bahurira bavuye mu bice bitandukanye by'igihugu, baje guhabwa ubufasha bw'ubuvuzi, ku ndwara zigiye zitandukanye.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi zitandukanye, harimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga, kugira ngo bahe serivisi inoze abarwayi babashe gukira vuba.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'ubururu, umukara n'umweru. Ndetse ibirahure byinshi cyane bitandukanye, iruhande rwayo hateye imikindo.

Ni icyumba kinini kirimo ibikoresho, byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, abantu iyo bageze ku ivuriro bahura n'abaganga bakabitaho ndetse bakabaha ibyo bakeneye.

Inyubako nini ubona ko ikorerwamo ibikorwa bitandukanye. Harimo ama etajeri yubatsemo ndetse agiye arimo ibicuruzwa by'amoko menshi ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye yiganjemo amabara y'umukara n'umweru, iruhande rwayo hateye indabo nziza zirimo utubara tw'umutuku ndetse ubona ko zitoshye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, harimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga ari byo: ameza, intebe, mudasobwa n'ibindi.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa byubuvuzi irimo amabara y'umuhondo n'umutuku, ni ahantu ubona ko ari heza kandi hashimishije kuhareba.

Icyumba kiberamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, kirimo abaganga bambaye imyenda y'ubururu n'icyatsi, harimo umurwayi uryamye ku gitanda uri guhabwa ubufasha.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo ibikoresho bifite amabara y'umweru, umukara ndetse n'ubururu, harimo na tereviziyo.

Ikigo kinini kiberamo ibikorwa bigiye bitandukanye, gisakaje amabati y'ubururu. Ni ahantu heza ubona ko hakorerwa ibikorwa bitandukanye ndetse hatangirwa serivisi zitandukanye.

Ni inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, harimo imyitozo ngororamubiri ndetse n'ubuvuzi. Abantu benshi baturuka hirya no hino baje kuhakorera siporo.

Inyubako irimo amabara y'ubururu. Harimo icyumba kinini cyane, gikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye by'ubuvuzi, ndetse hanafashirizwamo abarwayi.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, ni ku kigo kitwa tabagwe gitangirwamo ubuvuzi butandukanye bw'abantu baturutse hirya no hino.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye yiganjemo amabara y'umweru, umuhondo n'ubururu, harimo abantu baturutse hirya no hino baje kwivuza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye cyane cyane iby'ubuvuzi, ni inyubako irimo amabara y'umuhondo, umweru, ndetse iyo nyubako isakaje amabati y'umutuku.

Umuganga wambaye itaburiya y'ubururu uri gutanga ubuvuzi ku murwayi bari mucyumba ubona ko gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kandi zinoze.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa kwa muganga. Harimo ibitanda ndetse n'ameza manini aterekwaho ibikoresho bifashisha bavura.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi zubuvuzi kirimo ibitanda by'umweru, ubururu, ndetse hariho na matera nziza abarwayi bakoresha kwa muganga.

Abantu baturutse hirya no hino bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umuhondo, icyatsi n'umutuku, bari mu nyubako yiganjemo amabara y'umuhondo.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, yiganjemo amabara y'umuhondo, ifite ibyumba byinshi, ni ahantu hatangirwa serivisi z'ubuvuzi zigiye zitandukanye.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, cyane cyane bakiriramo abantu bahuye n'ihohoterwa, aba bantu iyo baje bakirwa neza kandi bakishimirwa.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye by'ubuvuzi; harimo imiti yifashishwa na muganga; kugirango avure umurwayi abashe gukira.

Inyubako nini irimo ibikoresho byifashishwa na muganga arimo kuvura indwara zitandukanye, umurwayi aryamaho maze muganga akabona uko amuvura neza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, ni inyubako irimo amabara y'umweru, umuhondo ndetse n'icyatsi, hari n'abantu bahagaze imbere yayo.

Inyubako nini yo kwa muganga, itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo ibitanda ndetse harimo n'abaganga benshi cyane bafasha abarwayi baturutse hirya no hino.

Icyumba gikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, kirimo umuganga wambaye agapfukamunwa, ni ahantu ubona ko hatangirwa serivisi z'ubuvuzi, kugira ngo bite ku buzima bw'abarwayi.

Icyumba cyo kwa muganga gikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, ndetse kirimo n'ibikoresho by'amoko yose, harimo amabara y'umuhondo, ubururu n'umweru.

Ikigo cy'amashuri gitangirwamo uburere bw'abanyeshuri kiri mo indabo nziza ndetse n'ibikoresho abanyeshuri bakoresha kugira ngo bagire ubumenyi.

Ni inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, yiganjemo amabara y'umuhondo. Ni ahantu abantu baturutse hirya no hino bahurira, bagahabwa ubufasha bugiye butandukanye.

Icyumba kirimo ababyeyi baje gupimisha abana ibiro kugira ngo bamenye uko imibereho yabo ihagaze, ni ukugira ngo hagize ufite ikibazo cy'imirire afashwe.

Kwa muganga hari inyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye birimo ibitanda, ameza, intebe ndetse n'ibindi hahurirayo abarwayi, maze bagahabwa ubufasha.

Umuganga uri kuvura umurwayi, uwo muganga yambaye itabuririya y'umweru, ndetse n'indorerwamo z'amaso, umurwayi uryamye ku gitanda ararembye, kandi akeneye ubuvuzi bw'ibanze.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abaganga kugira ngo bite ku ubuzima bw'abarwayi harimo ibitanda byiza biriho matela.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye cyane cyane by'ubucuruzi, hari imodoka iri gusohoka ubona ko ari ho ivuye gutwara ibintu bigiye bitandukanye.

Igitanda cyifashishwa kwa muganga ndetse hakirwaho abarwayi, niho baruhukira kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Inyubako nini irimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, ibyo bikoresho birimo amabara y'umukara ndetse n'umweru, ibi bikoresho ni byiza cyane birahenze.

Inyubako nini ubona ko ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, isakaje amabati ubona ko asa ubururu, harimo kugendamo umugabo wambaye itaburiya y'umweru.

Inyubako nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, higanjemo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo imiti inyobwa ndetse n'ibinini, ni ahantu ubona ko hacururizwa ibikoresho byinshi.

Kwa muganga, aho bavurira abarwayi hariyo umugore n'umugabo bari kwita ku murwayi bategereje muganga kugira ngo aze abafashe maze abone gukira.

Inzu nini yiganjemo amabara yi'cyatsi, umutuku, ubururu ndetse n'umweru, ni ahantu ubona ko hakorerwa ibikorwa bigiye bitandukanye.

Umuganga uri kwita ku barwayi, yambaye itaburiya y'umweru. Uyu muganga kandi afite imisatsi myiza iboshye. Arimo arumva uko umutima w'umurwayi utera.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, yiganjemo amabara y'umweru n'umukara, harimo ibyumba byinshi, bitangirwamo serivisi zitandukanye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye yiganjemo amabara y'umutuku, umuhondo ndetse n'umweru n'ahantu harimo imiti abantu bahurira bakaza kugura.

Kwa muganga habayo ibikoresho bigiye bitandukanye, bifashisha kugira ngo bavure indwara zitandukanye, hano hari abaganga babizobereye bazi kuvura kandi indwara zigakira vuba.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umuhondo ,umutuku n'ubururu ,iruhande rwayo hateye indabo nziza ndetse hari n'ikigega cy'umukara kivamo amazi.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, irimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Birimo amabara y'umweru, ubururu ndetse n'umukara.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse itangirwamo n'imiti. Abantu baturuka hirya no hino bakaza kuhagurira imiti y'ubwoko bwinshi.

Abantu barimo kwifotoza bambaye imyenda y'icyatsi, umweru ndetse n'umukara, aba bantu kandi biragaragara ko bishimye.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'ubururu n'umuhondo ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye cyane cyane iby'ubuvuzi. Ni ahantu abantu bahuriye, baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, higanjemo amabara y'umukara n'umweru, iruhande rwayo hari imodoka ihaparitse nziza ubona ko itwara abagenzi.

Inyubako isakaje amabati y'ubururu ndetse hateye indabo nyinshi kandi nziza. Ni inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Inyubako itangirwamo serivisi zubuvuzi irimo ibitanda ndetse na matera, byiganjemo amabara y'umweru n'ubururu.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'amaso. Iki cyumba kirimo indorerwamo z'amaso nyinshi, aho umuntu yihitiramo izigendanye n'uburwayi afite.

Inyubako nini irimo amabara y'ubururu ndetse n'umweru, iruhande rwayo haparitse imodoka nziza cyane, hari kandi n'abandi bantu baturutse hirya no hino bahahuriye.

Farumasi irimo imiti itandukanye yifashishwa mu buzima bwa buri munsi. Ni mu nyubako nini, igaragara neza, kandi ikeye ifite isuku.

Inzu nini irimo amabara y'umweru n'umukara itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, iyi nzu ni nziza cyane kandi ikorerwamo ibikorwa birimo ubucuruzi ndetse n'ubuvuzi.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa kugira bavure indwara zigiye zitandukanye, harimo ibitanda, ameza, intebe ndetse n'ibindi.

Ikigo kigishirizwamo abana bafite imyaka hagati y'itanu ndetse na cumi n'itanu. Harimo ibikoresho bifashisha bari mu myitozo ngororamubiri.

Abantu babiri bari kugenda mu nyubako nini, bambaye imyenda y'imyeru, aba bantu rero ni abagabo babiri ubona ko ari abasore kandi bafite imbaraga.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'akagofero k'ubururu, arigufasha umubyeyi kugira ngo amuvurire umwana abashe gukira indwara afite.

Icyumba kirimo abantu batandukanye, bavuye hirya no hino. Harimo umuganga wambaye agapfukamunwa, ndetse n'itaburiya y'umweru. Arishimye cyane.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bitandukanye higanjemo amabara y'umuhondo, ubururu, ndetse n'icyatsi iyi nyubako ikorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo umuganga wambaye agapfukamunwa n'itaburiya y'umweru. Ni icyumba ubona ko kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye hirya no hino ,bahuriye ku bitaro bahahurijwe na gahunda nyinshi zitandukanye, bambaye imyenda irimo amabara y'ubururu ,umutuku ndetse n'icyatsi.

Icyumba kinini kirimo abarwayi batandukanye, harimo ibikoresho by'amoko agiye atandukanye. Ni ahantu abarwayi barwarira baturutse mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu.

Umugabo urimo kumanika supanete, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umukara ndetse n'umweru, arishimye ndetse yambaye isaha.

Inyubako nini irimo imiti igiye itandukanye, yifashishwa bavura indwara nyinshi. Harimo iri mu ducupa ndetse n'iyindi miti igiye iri mu dukarito.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga bavura abarwayi, harimo ibitanda baryamaho ndetse n'intebe bicaraho kugira ngo bahabwe serivisi neza.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byiganjemo amabara y'umutuku ndetse n'umweru, ni icyumba ubona ko ari cyiza kandi kivurirwamo abarwayi baturutse hirya no hino.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, iki cyumba kirimo ibikoresho biri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru, abantu baturutse hirya no hino bahurira muri iyi nyubako bagakora imyitozo ngororamubiri.

Mu cyumba kinini gitangirwamo serivisi y'ubuvuzi, harimo ibitanda byinshi ndetse n'imyenda irimo amabara y'ubururu, harimo umurwayi uryamye ku gitanda ukeneye guhabwa ubufasha bwihuse.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye biri mu mabara y'umweru, ni icyumba ubona ko gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi aho abantu bahurira bagakora ibikorwa bitandukanye ndetse bagahabwa ubufasha bw'ubuvuzi.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye yiganjemo amabara y'umukara n'umweru, isakaje amabati bigaragara ko ari nziza kandi ikeye.

Umugore uteruye umwana, ari kumwe n'umuganga, bose barishimye kandi baranezerewe, bari kureba muri kamera, abantu bari kubafotora.

Abantu bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu, barahagaze barimo barifotoza, bambaye udupfukamunwa twiza cyane tubafasha mu buzima bwabo.

Inyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye twavugamo nk'ameza, intebe ndetse n'ibindi bikoresho abantu bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umuganga wambaye impuzankano y'umweru n'inkweto z'umukara, arimo arita ku mukecuru wicaye mu kagare, iki cyumba kandi kirimo n'abandi bantu benshi baje ku ivuriro.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, iyi nyubako irimo amabara y'umuhondo n'ubururu, iruhande rwayo hari umugabo uri kugenda ndetse yishimye.

Inyubako nini ihagaze umugabo imbere wambaye imyenda y'imyeru, ni inyubako ubona ko ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye harimo ubw'imiti ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye.

Inyubako nini, irimo amabara y'umuhondo. Harimo ibyumba byinshi bigiye bitandukanye, abantu bakoresha baje, muri iyi nyubako.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kirimo abantu baturutse mu bice bigiye bitandukanye, higanjemo ibikoresho byifashishwa nk'ibitanda ndetse na matera.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda y'umukara, imbere ye hari mudasobwa ari kugenda areberaho ndetse akora siporo, uyu mukobwa azi akamaro ka siporo.

Kwa muganga aho bavurira indwara zigiye zitandukanye, hariyo umurwayi wavunitse akaguru, uri kwitabwaho n'abaganga kandi bari kumuha imiti.

Umusore uri kunywa amazi yambaye agapira k'ubururu, uyu musore kandi avuye mu myitozo ngororamubiri biragaragara.

Umusore uvuye mu myitozo ngororamubiri wambaye umupira w'umweru afite icupa mu ntoki ndetse yambaye n'isaha Ku kuboko, biragaragara ko avuye mu myitozo ngororamubiri.

Icyumba kinini gikorerwamo imyitozo ngororamubiri kirimo umusore wambaye umupira w'umukara n'imyenda yiganjemo utubara tw'umweru ibona ko yishimye.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gihe abantu bari mu myitozo ngororamubiri, bagize ibibazo, ni ibikoresho birimo ndetse n'imiti bashobora kunywa kugira ngo bakire.

Umusore uvuye gukora imyitozo ngororamubiri, wambaye isaha ku kuboko ndetse ufite n'icupa ry'amazi mu ntoki ariko kunywa, kunywa amazi ni ingirakamaro kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Umuntu usa nk'aho yavunitse akaguru, arimo aragenda yikanda kugira ngo arebe niba yabasha gukira vuba, avuye mu myitozo ngororamubiri kandi akeneye ubufasha bw'ibanze.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'umukara. Ari mu cyumba kinini, gikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye bya siporo.

Imbuto zitandukanye zifasha umuntu kugira ubuzima bwiza; harimo inkeri, imineke, amagi ndetse n'izindi mbuto z'amoko agiye atandukanye.

Imbuto zitandukanye umuntu ashobora kurya kugira ngo agire ubuzima bwiza harimo imyanya, tungurusumu, pavuro ndetse na avoka.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye cyane cyane iby'ubuvuzi na siporo, harimo imiti y'amoko agiye atandukanye, yifashishwa n'abantu bagize ibibazo bari mu myitozo ngororamubiri.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye yiganjemo amabara y'umukara n'ubururu ndetse n'umweru, ni ahantu harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga cyifashishwa n'abaganga.

Umusore uvuye mu myitozo ngororamubiri wambaye umupira w'umukara, arimo aranywa amazi kugirango agire ubuzima bwiza, iyo unyoye amazi bituma ubaho neza.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri, wambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umukara; ari mu cyumba kinini gikorerwamo imyitozo ngororamubiri.

Ni ibikoresho byifashishwa kwa muganga, aho abarwayi babyicaraho ndetse bakabikoreraho imyitozo mu gihe batangiye koroherwa.

Umusore uvuye mu myitozo ngororamubiri, yambaye isengeri y'icyatsi, arimo aranywa amazi kugira ngo agire ubuzima bwiza buzira umuze maze abeho neza.

Amazi y'urubogobogo arimo gusukwa mu gakombe aya mazi ni meza kwiko iyo uyanyoye bituma ugira ubuzima bwiza buzira umuze amazi n'ingirakamaro kuko atuma umubiri umera neza.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri wambaye agaserengeri k'umweru n'ipantaro y'umukara, ni umukobwa ubona ko ateye neza kandi ari mwiza.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byiganjemo amabara y'umweru n'umukara, ni icyumba ubona ko gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abantu baturuka hirya no hino bagahurira bagahabwa ubufasha.

Umusore ufite imyaka hagati ya makumyabiri n'itanu na mirongo itatu, avuye mu myitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza . Siporo ni ingirakamaro kuko ifasha umuntu kugira ubuzima bwiza.

Umusore ufite icupa ari kunywa amazi, yambaye isaha nziza y'umukara ndetse yambaye agapira k'ubururu ubona ko afite n'ubwanwa bwinshi cyane.

Umubyeyi wavunitse akaboko akaba ari gukora mu nkokora kugira ngo arebe ko yakize. Uyu mubyeyi yambaye ishati y'umweru. Biragaragara ko yagize ikibazo.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, wambaye agapira k'ubururu. Umusore ubona ko acyeye, kandi ari gukora imyitozo ngororamubiri yishimye.

Inyubako nini irimo ibitanda, ameza n'intebe, harimo amarangi y'umweru, ubururu ndetse n'icyatsi, ni ahantu ubona ko ari heza.

umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, wambaye agapira k'icyatsi, ari kunywa amazi, kuko amazi ari ingirakamaro, kandi agira uruhare runini mu buzima bw'umuntu.

Umugabo wicaye avuye mu myitozo ngororamubiri, yambaye imyenda irimo amabara y'umukara, ubururu ndetse n'umuhondo.

Abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda y'imyeru ndetse n'indi y'umukara, bahuriye ahantu mu nyubako nini ubona ko bahujwe n'ikintu kimwe.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri kirimo umusore ndetse n'umukobwa, bambaye imyenda ya siporo ibafasha gukora imyitozo bitabagoye.

Umukobwa uvuye mu myitozo ngororamubiri, afite icupa ry'amazi arimo kunywa, afite umwenda w'umweru wo kwihanaguza kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umukobwa wambaye imyenda y'imikara uri gukora imyitozo ngororamubiri, umukobwa ubona ko ari muto kandi yakoze imyitozo kugirango agabanye umubyibuho ukabije.

Umusore urimo gukora imyitozo ngororamubiri, wambaye imyenda y'umukara n'inkweto z'umukara. Ari mu cyumba kinini, gikorerwamo imyitozo ngororamubiri.

Siporo ifite akamaro kenshi kagiye gatandukanye kuko bituma igogora rigenda neza, kongera ibiro, kugabanya umunaniro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Imashini yifashishwa n'abaganga, kugira ngo basuzume abarwayi, iyi mashini umurwayi ayiryamaho maze bakamenya ikibazo afite aho kiri.

Icyumba kinini kirimo umuganga uri kumwe n'umurwayi, arimo aramuvura ikirenge ndetse amukanda yongera amukanda.

Umusore wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara uteruwe n'abandi basore babiri, biragaragara ko yagize ikibazo akeneye ubufasha bwa muganga.

Ibikoresho byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, harimo umukasi, ga zambarwa mu ntoki, ndetse n'utundi dukoresho tugiye dutandukanye.

Umusore ubyibushye uri hejuru y'imyaka mirongo itatu, arimo arakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara zigiye zitandukanye ziterwa n'umubyibuho ukabije.

Umuganga wambaye itaburiya y'ubururu uri kwita ku murwayi, bari mu cyumba kinini gikorerwamo ubuvuzi cyangwa se gitangirwamo ubuvuzi bw'ibanze.

Abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri, bambaye imyenda irimo amabara y'umukara n'ubururu, aba bantu kandi barishimye kandi baranezerewe nk'uko birimo kugaragara aha ngaha.

Umukobwa uri kunywa amazi, wambaye agapira k'umutuku. Yambaye ekuteri ubona ko ari kumva imiziki igiye itandukanye.

Udukapu tubiri batwaramo imiti mu gihe bagiye kuvura umuntu wagize ikibazo cy'imvune, iyo wavunitse biba byiza iyo bakwitayeho hakiri kare kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza.

Igikoresho kifashishwa n'abaganga kugira ngo bavure indwara zitandukanye abarwayi, iki gikoresho kirimo amabara y'umukara, umweru ndetse n'ubururu.

Abantu barimo gukora imyitozo ngororamubiri bambaye imyenda irimo amabara y'umukara n'umutuku, aba bantu kandi ni beza cyane kuko bakora siporo maze uruhu rwabo rukamera neza.

Umusore uvuye mu myitozo ngororamubiri, wambaye imyenda y'imikara; ni umusore ubona ko yicaye mu byatsi, yifashe mu ivi; bigaragara nkaho yagize ikibazo gikomeye.

Icyumba kirimo abayobozi baturutse mu bice bitandukanye b'abaganga, imbere yabo hari televiziyo nini y'umuntu uri kubabwira ibyo bakora kugira ngo bavure abarwayi barembye.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngorora mubiri, wambaye agapira karimo ibara ry'umuhondo n'ikabutura y'icyatsi n'umweru, arimo arakora imyitozo ngorora mubiri kugirango agire ubuzima bwiza.

Urujya n'uruza rwbantu bahuriye mu mukino w'umupira w'amaguru bambaye imyenda y'icyatsi umuhondo n'ubururu. Harimo umusore umwe wavunitse uri kwitabwaho n'abaganga.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umutuku n'umukara. Yambaye inkweto nziza z'umuhondo ndetse n'icyatsi.

Umusore wikoreye amaboko, avuye mu myitozo ngororamubiri. Arimo kureba hakurya ku musozi, ndetse yitegereza cyane .Arishimye ndetse aranezerewe.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo mudasobwa, intebe, ameza ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa n'abaganga.

Umusore wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara n'umutuku, uvuye mu myitozo ngororamubiri, ari mu cyumba kinini gitangirwamo imyitozo ngororamubiri.

Imipira ikunda gukinwa aho barimo gukora siporo; harimo umupira w'amaguru, umupira w'amaboko, ndetse n'iyindi yifashishwa mu gihe abantu bakora siporo.

Abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri, bambaye imyenda igiye itandukanye. Harimo abagabo, abagore ndetse n'abakobwa, bigaragara ko bishimye kandi banezerewe.

Umusore ubyibushye, uri gukora imyitozo ngororamubiri, yafashe akaboko ke k'iburyo akajyana inyuma agakoza mu mugongo, akandi k'ibumoso yagakojeje mu nkokora.

Umukobwa uvuye mu myitozo ngororamubiri, wambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umukara, afite agasuwimi ku rutugu arimo aranywa n'amazi.

Umusore ufite ikibazo mu ivi, ubona ko akeneye guhabwa ubufasha bwihuse, yambaye imyenda irimo amabara y'umukara ndetse n'umweru, afite impeta ku rutoki.

Igikapu kinini cy'umutuku, kirimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu buzima bwa buri munsi. Iyo umuntu afite igikapu atwaramo ibintu bye, aba yizeye umutekano wabyo.

Agakoresho abaganga bakoresha bapima indwara zitandukanye abarwayi. Bagashyira mu matwi maze bagacomeka ku mubiri w'umuntu maze bakumva ikibazo afite.

Umurwayi uri gukoreshwa imyitozo, kugira ngo basuzume niba yakize koko. Uyu murwayi afite ikibazo gikomeye. Muganga ari kumureba, ko yakize.

Umusore uvuye mu myitozo ngororamubiri, wambaye imyenda yiganjemo umukara ndetse n'inkweto z'umweru, yifashe mu ivi bigaragara ko yagize ikibazo akeneye ubufasha.

Umuganga wahaye umugozi umurwayi, yawumuhaye kugira ngo akomeze akore imyitozo ngororamubiri abashe gukira vuba, asubire mu buzima busanzwe.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, wambaye imyenda irimo amabara y'umuhondo n'umukara, ari gukoreshwa imyitozo n'undi mugabo wambaye imyenda y'imikara gusa.

Inkweto z'umukara abantu bambara bari gukora siporo, izi nkweto kandi iyo uzambaye ntabwo wumva amabuye akujomba mu birenge.

Ibikoresho byiganjemo amabara y'umukara, hari abantu baje gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bagire ubuzima bwiza buzira umuze.

Umusore wavunitse mu ivi, wambaye umupira w'umuhondo, mu ivi harimo igipfuko cy'umweru, ubona ko yagize ikibazo cy'imvune ikomeye kandi ikeneye ubuvuzi.

Umukobwa wambaye isaha ku kuboko n'agapira karimo ibara ry'umuhondo, arimo arakora imyitozo ngororamubiri kugirango yirinde indwara zitandukanye zituruka ku mubyibuho ukabije.

Umuti w'umuravumba wifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye. Uyu muti, uri mu ibara ry'icyatsi kandi bigaragara ko ari umuti mwiza, ufasha abantu mu buzima bwawo bwa buri munsi.

Igiti cy'umusave gifasha abantu kubaka, iki giti kandi kivamo imbaho nziza abantu bakoresha bubaka inzu.

Imiti gakondo yifashishwa mu buzima bwa buri munsi, iyo umuntu akoresheje umuti gakondo bituma abasha gukira indwara zananiranye kandi iyo umuntu adafite ubushobozi bwihuse akoresha umuti gakondo.

Inanasi, imineke ndetse n'amata, bteretse hejuru y'ameza ibi byifashishwa n'abantu kugira ngo bagire ubuzima bwiza, iyo umuntu ariye imbuto yirinda indwara zigiye zitandukanye.

Imiti gakondo yifashishwa mu buzima bwa buri munsi. Iyo umuntu akoresheje umuti gakondo, bituma abasha kugira ubuzima bwiza. Iyo adafite ubufasha ,yihutira kujya kwa muganga.

Igikakarubamba ni umuti wifashishwa mu buzima bwa buri munsi. Iyo umuntu arwaye inkorora ndetse n'izindi ndwara, akoresha igikakarubamba akabasha koroherwa.

Urutonde rw'imiti y'igikakarubamba yifashishwa mu buzima bwa buri munsi. Iyi ni imiti gakondo kandi yifashishwa n'abantu bagiye batandukanye kuko bazi akamaro kayo.

Umukecuru wambaye umwitero w'umweru arimo arasoroma imboga kugira ngo abone izo guteka, afite malete mu ntoki ndetse afite n'umusatsi mwinshi.

Igikakarubamba ni umuti wifashishwa n'abantu kugira ngo birinde indwara zitandukanye, uyu muti ukorwamo indi miti myinshi, ifasha abantu kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Imiti gakondo yifashishwa n'abantu kugira ngo bavure indwara zigiye zitandukanye, harimo igikakarubamba ndetse n'iyindi miti.

Umugabo wambaye ikoti ndetse n'ishati y'ubururu, ari ku ifoto bigaragara ko ari umuganga, bari kutugira inama yuko twakirinda ndetse tugafata imiti neza.

Imiti gakondo, ni imiti yifashishwa n'abantu mu gihe batarabona ubufasha bwa muganga. Iyi miti ibafasha kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Imiti gakondo yifashishwa mu buzima bwa buri munsi, iyo abantu bakoresha imiti gakondo, bituma bagira ubuzima bwiza, rero umuti ukoreshwa n'abantu benshi uba ufite akamaro kanini.

Imiti ye itandukanye yiganjemo amabara y'umweru, umuhondo n'umukara. N'icyumba kinini kirimo imiti myinshi ubona ko ifasha abantu ubuzima busanzwe.

Imiti gakondo yifashishwa bavura indwara zigiye zitandukanye, iyi miti kandi abantu bayikoresha kugira ngo babashe gukira vuba byihuse, harimo igikakarubamba n'imiravumba.

Urutonde rw'imbuto zifasha umuntu kugira ubuzima bwiza, harimo inanasi, amata ndetse n'izindi mbuto zigiye zitandukanye, zifasha umuntu.

Igikakarubamba ni umuti wifashishwa kugira ngo abantu bivure indwara zigiye zitandukanye. Uyu muti ni umuti gakondo ndetse wifashishwa no kwa muganga bavura abarwayi.

Urutonde rw'imiti gakondo yifashishwa mu buzima bwa buri munsi barimo kwita ku buvuzi, iyo urwaye ugakoresha umuti gakondo bituma ugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umuravumba ni umuti ukoreshwa kugira ngo hirindwe indwara zigiye zitandukanye haba izandura ndetse n'izitandura, iyo ukoresheje uyu muti neza bituma ukira vuba.

Abantu barimo gusoroma icyayi, bambaye imyenda yiganjemo ubururu ndetse n'umutuku, ahantu bari gusoroma icyayi ni ahantu hanini ubona ko hakorerwa ubuhinzi.

Icupa ripfundikije umufuniko w'umuhondo. Rishushanyijeho ibimera bitandukanye bivamo umuti wifashishwa kugira ngo bavure indwara zigiye zitandukanye.

Umuti w'igikakarubamba n'umuti wifashishwa n'abantu kugira ngo bavure indwara zigiye zitandukanye uyu muti kandi urafasha kuko abantu iyo bawukoresheje bituma bagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ibyatsi byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Ni imiti gakondo, ubona ko ifasha abantu kugira ngo bagire ubuzima bwiza ndetse babeho neza.

Imiti gakondo yifashishwa mu buzima bwa buri munsi, aho abantu bayifashisha kugira ngo babashe kwivura byoroshye, iyo akoresheje umuti gakondo bituma abasha gukira vuba.

Ikimera kirimo amabara agiye atandukanye, harimo icyatsi n'umutuku, biragaragara ko iki cyatsi cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Imiti gakondo yifashishwa n'abantu kugira ngo bavure indwara zigiye zitandukanye, iyo umuntu akoresheje umuti gakondo bituma abasha gukira vuba.

Imiti gakondo yifashishwa mu buzima bwa buri munsi, ni imiti ubona ko ari myiza ku ibara ndetse no ku ishusho. Iyi miti irafasha cyane.

Iri ni icupa ryanditseho umuravumba, umuravumba ni umuti wifashishwa n'ingeri z'abantu zitandukanye barimo baravura indwara zananiranye, uyu muti kandi urafasha kandi ukiza indwara vuba.

Umugabo uri mu ishyamba, ari kugenda atema ibiti kugira ngo abijyane abikoreshe mu rugo, uyu mugabo kandi ni umugabo wishimye kandi unezerewe.

Imbuto ziganjemo ibinyomoro ndetse n'amatunda, bifasha umuntu kugira ubuzima bwiza. Ni imbuto abantu barya kugira ngo babashe kubaho bishimye kandi babeho neza.

Umuntu uri gutegura imiti gakondo kugira ngo ayifashishe avura indwara zigiye zitandukanye. Uyu muti kandi aba ari mwiza kubera ko urafasha.

Umuti witwa igikakarubamba ni mwiza cyane, uyu muti wifashishwa n'abantu bagiye batandukanye kugira ngo bavure indwara zirimo ibicurane, inkorora n'izindi.

Inyubako nini irimo imiti itangirwa kwa muganga, ni imiti ifasha abantu kugirango bagire ubuzima bwiza, harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru.

Ibiti birebire byifashishwa mu gukoramo ibikoresho bigiye bitandukanye, iyo igiti gikuze kirabazwa kigakurwamo imbaho zifashishwa mu gukora intebe.

Hano turi kubona umuti gakondo wifashishwa mu buzima bwa buri munsi kugira ngo havurwe indwara zigiye zitandukanye, aho abantu bahurira kwa muganga baje kuzisuzumisha, bagahabwa ubufasha.

Imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buzima bwa buri munsi. Iyi miti harimo iri mu ducupa ndetse n'iyindi iri mu mashashi. Iyo ukoresheje umuti neza usukura amenyo bituma ugira ubuzima bwiza. N'iyo ufashe indi miti warwaye urakira.

Imiti gakondo yifashishwa mu buzima bwa buri munsi. Iyo umuntu arwaye adafite ubushobozi bwo kujya kwa muganga ako kanya, akoresha imiti gakondo. Kandi hari imiti gakondo yifashishwa n'abarwayi, bityo bagakira vuba.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, ari ahantu hari ibikoresho byinshi bitandukanye ubona ko bishaje, ibi bikoresho bizanwa ahantu ndetse bikajugunywa.

Icyumba cyahuriyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, bigaragara ko bari gucuruza imiti. Iyi miti ni imiti gakondo kandi iyi miti yifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Imiti gakondo yifashishwa mu buzima bwa buri munsi, iyi miti abantu bayifashisha bivura indwara zigiye zitandukanye, ndetse bigatuma bagira ubuzima bwiza.

Imiti gakondo yifashishwa mu buzima bwa buri munsi abantu bagenda banyuramo, ni imiti yiganjemo iri mu ducupa tw'umutuku, icyatsi, umukara n'umweru.

Igikakarubamba ni umuti wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Uyu muti kandi ni ingirakamaro kuko abantu bawifashisha.

Uducupa twinshi turimo imiti yifashishwa, harimo imiti gakondo abantu bakoresha bivura indwara zigiye zitandukanye, iyi miti kandi abantu bazi akamaro kayo.

Umuravumba ni umuti ukoreshwa mu buzima busanzwe, kugira ngo abantu birinde indwara zigiye zitandukanye, umuravumba ni umuti mwiza ufasha abantu gukira vuba.

Imiti gakondo igihe ivura indwara zitandukanye, kubera ko iyo uyikoresheje neza bituma ugira ubuzima bwiza buzira umuze, kandi bikagufasha kubaho wishimye kandi unezerewe.